Ikirangantego gifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi. Harimo abayobozi batandukanye bashinzwe kurwanya ibyangiza imibereho myiza y'abaturage hirya no hino ku isi.

Abana bato b'abanyeshuri barimo abambaye imyambaro isa ubururu ndetse na kaki n'udupfukamunwa, baricaye, bari gusangirira hamwe amafunguro ya kumanywa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu, harimo abana babiri n'umubyeyi uvuye kuvoma amazi meza mu gikoresho bifashisha bavoma, gifite ibara ry'umuhondo kugira ngo arinde abana kuba bakwandura indwara zituruka ku gukoresha amazi mabi.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe abagabo n'abagore, bahuriye mu nyubako nziza kugira ngo baganire ku mibereho myiza y'abaturage, barusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu barimo ab'igitsina gore bahuriye ku ivomero rusange ry'amazi meza, harimo umubyeyi wambaye imyambaro ifite amaboko magufi n'umutako ku matwi, ufite igikoresho kifashishwa mu kuvoma cy'ubururu, ari gufashwa na mugenzi we kugira ngo bagiterure.

Itsinda rigari rigizwe n'abagabo benshi ndetse n'umugore umwe; harimo abicaye n'abahagaze bavuye mu mahugurwa yateguwe n'ikigo cy'ubuzima ku isi hose.

Umuntu umugabo w'igitsina gabo wambaye imyambaro ifite amaboko magufi, ari ku ivomero rusange rifite amazi meza, yaje yitwaje igikoresho gisa neza gisa ibara ry'umuhondo.

Itsinda rigari ry'abantu bicaye harimo ibitsina gore n'ibitsina gabo, bafite amakaye mu ntoki n'amakaramu. Bitabiriye inama mu rwego rwo guhugurirwa kwita ku buzima bwiza bw'abantu bari hirya no hino ku isi.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu byahawe inkunga y'inkingo z'indwara zitandukanye, zakwirakwiye ku isi hose mu mwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri nagatatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuhanzi w'indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse no kuramya, wambaye indorerwamo z'amaso, ari kumwe n'ababyeyi bateruye abana bakiri bato, ari kubaha amata yifashishije igikoresho cy'inkongoro, mu gikorwa cyo kurwanya igwingira ry'abana ndetse n'izindi ndwara zituruka ku mirire mibi.

Abana bato bari ku ivomero rusange bari gukaraba intoki kugira ngo barusheho kwirinda indwara zandurira mu mwanda, abandi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri b'igitsina gabo bafatanye mu kiganza, bambaye imyenda myiza y'umukara, bari kuganira ku cyorezo cyindwara yandura vuba kandi yica. Inyuma yabo hari ishusho y'ubururu yanditsemo icyo cyorezo uko cyitwa.

Umuganga wabugenewe ufite ibikoresho byifashishwa mu gutera urukingo, ari gufasha umurwayi waje amugana kwa muganga.

Umubyeyi wicaye, uteruye umwana urwaye, ari gufashwa na muganga wambaye imyambaro yabugenewe isa umweru, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gore wabambaye imyambaro myiza, arimo kuvoma amazi meza kugirango ajye gukora isuku ahantu henshi hatandukanye bitume arushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'imirimbo yo ku matwi, ari kumwe n'umubyeyi wicaye uteruye umwana muto wambaye agapira k'umweru, umuganga ari guha umwana umuti kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyambaro y'abanyeshuri y'ubururu ndetse n'umweru, ari gukaraba amazi meza mu rwego rwo kugira isuku kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo bitabiriye inama irikwiga ku ngamba zo kwita ku buzima bw'abantu bakarushaho kumererwa neza ntibakomeze kuba bagira indwara zitandukanye.

Itsinda ry'abantu batatu rigizwe n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe arimo gufasha umwana utameze neza. Iruhande rwabo hari undi mubyeyi urimo kwitegereza uko bafasha umwana we.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gabo bicaye hamwe, harimo umugabo wambaye imyambaro ifite amaboko magufi ndetse n'indorerwamo z'amaso, ari kumwe n'abandi, aho bari kuganira ku cyatuma abantu barushaho kugira imibereho myiza binyuze mu kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo aho abagore bicaye bateruye abana bazanye gupimisha ibiro byabo kugira ngo bamenye uko bahagaze bari gusobanurirwa n'umunyabuzima uburyo bakomeza kubitaho babaha indyo yuzuye.

Umujyanama w'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe isa ubururu, iciye amaboko, yicaranye nabagize umuryango ufite umugore utwite, arimo kubasobanurira uburyo bakwirinda kuba babangamira umwana batwite kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gore, baje ku ivomero rusange, bitwaje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvoma bifite ibara ry'umuhondo.

Umuganga wambaye umwambaro wabugenewe usa ibara ry'umweru n'umutako w'abagore ku matwi, ari kumwe n'umubyeyi wicaye uteruye umwana barimo kumuha umuti kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu bicaye rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo mu nyubako nziza, barimo kwiga ku ngamba nshya y'uburyo bazamura imibereho myiza y'abaturage, hirya no hino ku Isi bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bagizwe n'itsinda ry'abagabo n'abagore n'abana, baje bagana ivomero rusange baje gushaka amazi meza yo gukoresha isuku ibikoresho byabo, baje bitwaje ibivomesho bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Imana y'abantu benshi igizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye mu cyumba cy'inama iri kwiga ku buzima bwiza bw'abaturage hirya no hino ku isi.

umwana muto wambaye umwambaro usa umutuku, ari gukaraba ku ivomero rusange amazi meza kugirango yirinde indwara zandurira mu umwanda, kandi akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro myiza, ari kuvoma amazi meza yifashishije igikoresho cyabugenewe gifite ibara ry'bururu kugira ngo ajye gukora isuku arusheho kwirinda umwanda.

Umwanya muto wambaye imyambaro itukura ufite igikombe mu ntoki ze, ari kuvoma amazi ku ivomero rusange ryabugenewe kugira ngo ayanywe arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikirangantego cy'ikigo cy'Igihungu gishinzwe kwita ku mibereho myiza y'umubyeyi n'umwana. Gisa ubururu hifashishwa mu kwereka abantu aho icyo gikorwa gikorerwa n'uburyo gikorwamo.

Umwana muto wambaye imyambaro ifite amatako magufi, ari gukaraba amazi meza kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza. iruhande rwe hari ibikoresho byo kuvoma bisa ubururu ndetse n'umuhondo.

Umuhanzi w'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya witwa Isirael Mbonye wambaye imyambaro myiza n'indorerwamo z'amaso. Yitabiriye igikorwa cyo kurwanya igwingira mu bana binyuze mu kubaha indyo yuzuye.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gore bahuriye ku ivomero rusange kuvoma amazi meza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, barwanye indwara zandurira mu gukoresha amazi mabi.

Ikirangantego kigizwe n'imiryango idaharanira inyungu, ikorera ku isi hose, urugero harimo umuryango wita ku bana bakiri bato, uburyo bakwiriye kubaho, imibereho myiza.

Itaritari ry'abantu harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari guhabwa impapuro zanditseho amagambo yo kubigisha uburyo bwiza bwo kugira ubuzima bwiza. Hari umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso, n'imyambaro yabugenewe y'akazi.

Umuntu urimo gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zandurira mu kugira isuku nkeya y'umubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku ivomero rusange baje kuvoma amazi meza bifashishije ibikoresho byo kuvoma bifite ibara ry'umuhondo.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bavuye mu mahugurwa ari kwiga ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu kugira ngo bongere iterambere.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abana ndetseumuntu mukuru, wambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu buvuzi, arimo kubatera inkingo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigizwe n'abana bato ndetse n'umuntu mukuru bahuriye ku ivomero rusange, abana baje bitwaje ibikoresho byifashishwa mu kuvoma kugira ngo bacyure amazi meza abafasha kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigari ryabantu bensh,i bahuriye mu cyumba cyabugenewe bitabiriye inama, iri kwiga ku buzima bw'abantu ku isi, bafite n'amazi yo kunywa, amakaramu, amakayi yo kwifashisha kwandika.

Umwana muto wambaye umwambaro ufite amaboko magufi ari gukora mu mazi meza yanduye ndetse n'indi myanda bishobora kumutera indwara zikomoka ku isuku nkeya.

Itsinda rigari rishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, bambaye imyambaro ifite amaboko magufi y'ubururu ndetse n'umweru, bishimiye umwana muto uryamye ku gatanda kabugenewe urimo guhabwa ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye, harimo abana n'umubyeyi wicaye imbere yabo, wambaye imyambaro myiza ndetse n'indorerwamo z'amaso, barimo guseka ndetse barishimye cyane.

Umwana muto mwiza ubyibushye, ufite imitako mu mutwe, ari kumwe n'umubyeyi we, muganga arimo kumutera urukingo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'igitsina gabo, ndetse n'igitsina gore, bitabiriye inama n'ibiganiro biri kwiga ku mibereho myiza y'umugore ndetse n'umwana. Bayobowe n'umugabo wambaye imyambaro y'umukara isa neza.

Itsinda rigari ry'abantu, harimo abakuru n'abato, bicaye hamwe baganira ku buryo bwo kwirinda indwara zandura, n'izitandura, harimo abana bambaye imyambaro ifite amaboko magufi.

Abantu babiri harimo umujyanama w'ubuzima, wambaye imyambaro yabugenewe isa ubururu, ari gusobanurira umubyeyi utwite uburyo bwiza bwo kwita ku mwana, kugira ngo akure neza ye kugira igwingira riturutse ku mirire mibi.

Itsinda rigari rigizwe n'abakuru ndetse n'abato, aho abakuru barimo guha abato amata mu rwego rwo kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi mu bana, harimo n'umwana urimo gukoresha igikoresho cyabugenewe ari cyo impongo.

Umwana muto w'umuhungu wambaye imyambaro y'abanyeshuri avuye kuvoma amazi mabi, ayafite mu gikombe, ashobora kumutera indwara mu gihe ayanyweye.

Inyubako nziza yo kwa muganga ifite icyumba cyabugenewe cyo kwakirariramo abarwayi mu gihe baje bafite indwara zitandukanye bafashwa n'abaganga kugirango barusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gabo, wishimye, wambaye imyambaro y'amaboko magufi, waje ku ivomera rusange kuvoma amazi meza kugira ngo arusheho kumererwa neza, yitwaje igikoresho cyo kuvoma gifite ibara ry'umuhondo.

Itsinda ry'abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, bitabiriye inama yo kwiga ku mibereho myiza y'abaturage bari hirya no hino ku Isi.

Itsinda ryabantu b'igitsina gore barimo kubyina bambaye imyambaro myiza, bitabiriye umunsi mukuru mpuzamahanga wo kwita ku mibereho myiza y'abaturage binyuze mu kubaha ibibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abana bari ku ivomero rusange baje kuvoma amazi meza, kugira ngo birinde indwara zikomoka ku mazi mabi ashobora kuvomwa hirya no hino. Bitwaje ibivomesho bisa ibara ry'umuhondo.

Itsinda rigari rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bahagaze bari kumwe n'umukuru w'igihugu wambaye imyambaro myiza n'indorerwamo z'amaso. Bari kumwe n'abaganga bambaye imyambaro yabugenewe isa ibara ry'umweru, bavuye mu mahugurwa yo kwita ku buzima bw'bantu ku Isi.

Abantu bane harimo abanyeshuri ndetse n'umuyobozi wabo urimo kubaganiriza, ababwira ko bagiye kujya bafata ifunguro ku manywa bose bari ku ishuri.

Ubwoko bwinshi bw'inkingo zabugenewe buri mu bubiko bwifashishwa mu kurinda indwara zigenda zikwirakwira hirya no hino ku isi bigatuma abantu batagira ubuzima bwiza.

Abana babiri bari mu rugo, umwe arimo gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zandurira mu mwanda, undi afite igikoresho kirimo amazi yo guha mugenzi we.

Itsinda rigizwe n'abantu bakuru ndetse n'abato bari ku ivomero rusange ry'amazi meza mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka mu gukoresha amazi mabi bifashishije ibikoresho byo kuvoma bifite ibara ry'umuhondo.

Umubyeyi wambaye imyambaro yo mu rugo, avuye kuvoma amazi meza yifashishije ibikoresho byo kuvoma, bisa umutuku ndetse n'umuhondo.

Ibikoresho byo mu rugo bogeje babishyize ku zuba, bisa umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, kugira ngo birinde kuba barira ku bikoresho bitumutse neza.

Umwana muto w'umuhungu wambaye imyambaro y'abanyeshuri, avuye kuvoma amazi mabi ashobora kumutera indwara. Harimo nk'impiswi ndetse n'izindi. Ayafite mu dukoresho afashe mu ntoki ze.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abana bato ndetse n'abakuru, barimo kubasobanurira uburyo icyorezo kigenda gikwirakwira binyuze mu gukoranaho, mu guhumeka ndetse berekana n'ibimenyetso biranga uwanduye indwara.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bahagaze, bambaye imyambaro myiza, bahuguriwe uburyo bwiza bwo kwita ku bwonko ndetse no kubungabunga indwara zakwangiza imitekerereze ya muntu.

Ikirangantego gifite ibara ritukura ryerekana ikigo k'igihugu gishinzwe kwita ku bana ndetse n'ingimbi, kugira ngo babashe gukuza intekerezo zabo mu buryo bwiza.

Inyubako y'ibitaro byifashishwa mu kwakira abarwayi bo mu mutwe ndetse n'abandi bafite ibibazo bifite aho bihurira n'ubwonko. Hari abaganga babafasha mu kwakirwa neza kandi bakabaha imiti yabagenewe.

Umuntu w'igitsina gore wicaye wambaye umwambaro w'umukara n'umutako mu ijosi, agaragaza ko yishimye cyane ndetse yerekana ko afite ubwonko bukora neza.

Umuntu wicaye, usa nabi, wambaye imyambaro mibi, uboshye amaguru, bigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se ubundi burwayi butuma adatekereza neza.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu bicaye, barimo abagore babiri bari guhabwa impanuro zerekeranye n'uburyo bwo kwita ku bwonko bw'abana babo.

Imitekerereze myiza igaragarira mu buryo ukina, ubanyemo n'abandi ukina cyangwa se ugenda ndetse n'iyo uvuga bigaragaza ko ubwonko bwawe bukora neza.

Umwana muto wicaye wambaye imyambaro y'abanyeshuri isa umweru ndetse n'ubururu, arishimye cyane arimo gufata ifunguro, byamunejeje bigaragaza ko afite ubwonko butekereza neza.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye bitabiriye inama mu cyumba cyabugenewe, bari guhugurirwa uburyo bwo kurinda ubwonko ndetse no kwita ku bafite ibibazo by'imitekerereze.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye wubitse umutwe, ari guhumurizwa n'umwana mutoya bitewe nuko mu bwonko bwe ari gutekereza ibintu bibi ndetse bibabaje cyane, bigatuma agira amarira menshi.

Umuntu wambaye indorerwamo z'amaso n'umwambaro w'umweru, akora akazi ko gutanga impanuro ndetse n'ibindi biganiro byerekeye ku bwonko kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abakuru n'abato, banejejwe nuko bitoreye umukuru w'igihugu biturutse mu bitekerezo byabo bikora neza n'amahitamo meza bagize.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, bitabiriye amahugurwa ari kwiga ku mibereho myiza ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Ikirangantego cyerekana umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bwonko, uba mu kwezi kwa cumi ku itariki ya cumi. Ukaba witabirwa n'abantu benshi bavuye hirya no hino ku Isi.

Umuntu wicaye, wambaye ubusa, usa nabi, ushumitse ikintu kiri ku kaguru, bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe butuma adatekereza neza mu bwonko bwe.

Umugore munini mwiza wambaye imyambaro imubereye ndetse ninindorerwamo z'amaso, ari kwerekana ko akora ubushakashatsi bw'ibigendanye n'ubwonko kugira ngo barusheho gusigasira no kubungabunga imitekerereze ya muntu.

Ikigo gifite ibara ry'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umweru yerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe no gutanga inama ku bantu bafite imitekerereze itameze neza.

Umwera w'umugabo uhagaze wambaye imyambaro myiza w'igitsina gabo ari imbere yikirangantego kigaragaza ibitaro bitangirwaho ibikorwa byo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugirango barusheho kumererwa neza

Itsinda rigizwe n'bana benshi, harimo abambaye imyambaro y'abanyeshuri, isa icyatsi kibisi. Barishimye cyane, bigaragaza ko bafite ubwonko butekereza neza, nta mubabaro bafite.

Umuntu wipfutse mu maso urimo kurira bitewe n'agahinda yagize, kuko atameze neza mu bwonko, kandi akaba ari gutekereza ibintu bibi cyane.

Itsinda rigari cyane rigizwe n'abagabo n'abagore, harimo abicaye n'abahagaze, bavuye mu mahugurwa ndetse n'ibiganiro byerekeye ku bwonko bwa muntu.

Inama y'abantu igizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye hamwe harimo umwe uri gutanga ikiganiro ku buryo bwiza bwo kubungabunga ubwonko kugirango umuntu arusheho gutekereza neza ibyubaka ubuzima bwe ndetse n'igihugu.

Ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Gutanga Inama ku Buzima no Kubaho kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza, mu gihe babagannye bakabagisha inama.

Itsinda rigari rihagaze rigizwe n'abantu b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bavuye mu nama iri kwiga ku ngamba yo kurwanya intekerezo mbi ndetse n'indwara zishobora kwangiza ubwonko.

Amahugurwa, afite insanganyamatsiko ivuga ngo, twite ku buzima bwo mu mutwe, aho dukorera. Yitabiriwe n'itsinda ryabantu, bicaye, bayobowe n'umuntu wambaye umwambaro w'umweru, kugira ngo barusheho, gusobanukirwa neza, uburyo bwiza, bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu benshi higanjemo igitsina gore, bambaye imyambaro myiza, bitabiriye amahugurwa ari kwiga ku buryo bwo kwita ku bwonko ndetse no gukomeza guha abafite ikibazo cy'imitekerereze mibi inama zabugenewe kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umubyeyi wicaye ugaragara nk'utishimye, inyuma ye hari imiti yabugenewe yifashisha kugira ngo arusheho kugira ubwonko butekereza neza.

Igitsina gabo wambaye umwambaro w'umuhondo, arimo guseka neza arishimye kubera ko ubwonko bwe bukora neza nta kibazo afite mu bitekerezo bye.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa, bicaye hamwe baganira ku mitekerereze ya muntu n'uburyo bwo kurinda ubwonko kugira ngo burusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe uri imbere y'inyubako ishaje cyane arimo gutekereza ibintu byinshi mu bwonko bwe bigaragaza ko afite ubukene bwinshi.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye hamwe mu rwego rwo kuganira ku byatuma umuntu atekereza neza ndetse akabasha kwiyubaka binyuze mubitekerezo byiza afite.

Itsinda ry'abantu bahagaze, rigizwe n'abagabo, n'abagore, ndetse n'urubyiruko, bitabiriye igikorwa cyo kwiga ku buryo bwo kurinda ubwonko bwa muntu, ndetse n'imitekerereze kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bicaye b'igitsina gore, harimo umubyeyi wifubitse umwambaro, ari ku kugirwa inama ko adakwiye kwiheba kuko byangiza ubwonko ntamererwe neza.

Itsinda ry'abantu batandukanye harimo abana bato ndetse n'umubyeyi ufite inkwi zo kujya guteka. Iruhande rwe hari umwana ufite amarira menshi, bigaragaza ko ubwonko bwe butameze neza ababaye.

Abantu babiri b'igitsina gore bicaye, umwe wambaye umurimbo ku matwi, arimo kuganiriza uwambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu, uburyo yagira ubwonko bwiza kandi butekereza neza, binyuze mu mikino agenda akina itandukanye.

Umuvuzi wambaye imyenda y'akazi yabugenewe y'umweru ndetse akaba yambaye n'indorerwamo z'amaso, ari kumwe n'umwana urwaye amenyo, arimo kumufasha gukuramo iryinyo ritameze neza, kugira ngo abashe kumera neza.

Abana bambaye imyambaro isa ubururu, bari gukora isuku y'amenyo kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza. Babitojwe n'ababyeyi babo ndetse n'abandi barezi babo.

Abato bambaye imyambaro y'abanyeshuri bicaye mu ntebe, banejejwe n'uko bahawe imiti yifashishwa mu koza amenyo, kugira ngo arusheho gusa neza no kumera neza.

Umuganga ufite ibikoresho byabugenewe arimo kuvura umwana muto amenyo kugira ngo arusheho kumererwa neza, ye gukomeza kuribwa ndetse no kubabara.

Ubwoko bw'ibikoresho byabugenewe bisa ibara ry'umweru, byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, abaganga bakira abarwayi baturutse hirya no hino bakabafasha kugira ubuzima bwiza.

Mu kanwa hasa nabi bitewe n'uko atita ku isuku y'amenyo ye, aragirwa inama y'uburyo bwo gukoresha imiti yabugenewe, kugira ngo arusheho kwivura indwara y'amenyo agire ubuzima bwiza.

Umuntu uryamye urimo kuvurwa amenyo hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, aho muganga wambaye imyambaro yabugenewe n'agapfukamuwa, arimo kubikora neza kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro mwiza usa umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso, ari kureba ku ikoranabuhanga uburyo amenyo ashobora kwangirika ndetse n'uburyo yarindwa indwara zitandukanye.

Umuntu warwaye amenyo ku rwego rukomeye cyane, ari kwa muganga aho bifashishije ibikoresho byabugenewe bagakuramo iryangiritse.

Umurwayi w'amenyo uryamye ku gitanda ari gufashwa na muganga, ufite ibikoresho byabugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza. Yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'imyambaro y'ubururu y'akazi.

Abagabo babiri bambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'indorerwamo z'amaso, bari kuvura umurwayi urwaye amenyo kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa mwiza arimo gukorera isuku amenyo ye kugira ngo yirinde indwara zandurira mu mwanda wi'byo aba yariye bitandukanye.

N'umuntu w'igitsina gabo wirabura bambaye neza, arimo guseka agaragaza amenyo ye ko afite ubuzima bwiza nta ndwara arwaye.

Umuntu urimo kwigishwa uburyo bwiza bwo koza amenyo kugira ngo ayarinde umwanda, yeye gukomeza kurwara ndetse akomeze kubungabunga ubuzima bwe.

Umuntu w'igitsina gore usa neza uryamye ku gatanda kabigenewe ko kwa muganga, ari kumwe numuganga urikureka buryo agiye gukoresha kugirango ngo amugure amenyo ye yagize ikibazo.

Abana bato bambaye imyambaro y'abanyeshuri, barimo gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara zandurira mu mwanda uturuka mu byo bariye bitandukanye.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, ari kumwigisha uburyo bwo kwita ku isuku y'amenyo, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, ye kwangizwa n'umwanda.

Abantu bari kwiga uburyo butandukanye bwifashishwa mu kuvura amenyo harimo kuyakura ukoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ifite ibikoresho byabugenewe, yo kwa muganga, yifashishwa mu kuvura indwara y'amenyo, abantu baza bahagana kugira ngo bahabwe ubufasha mu gihe batameze neza.

Amenyo manini cyane bigaragara ko atayakorera isuku uko bikwiriye. Akwiriye gusaba umuti kwa muganga kugira ngo afashwe arusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umwambaro w'umweru usa neza, arimo guseka agaragaza amenyo, yerekana ko afite ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga, yifashishwa mu kwakira abarwayi b'amenyo, ifite ibikoresho bifasha abavuzi gutuma bakora akazi kabo neza.

Ufite amenyo mabi ,yangiritse bitewe no kutayagirira isuku, hifashishije imiti yo kwa muganga, cyangwa se imiti gakondo, kugira ngo arusheho kumera neza.

Inyubako nziza yo kwa muganga ifite icyumba bakiriramo abarwayi b'amenyo baje babagana, bashobora kubogezareza, kubaha imiti, kuyakura, ndetse no kubagira inama yo kwita ku menyo yabo.

Umuntu mwiza w'igitsina gore arimo gufasha umusaza gutembera neza mu byaremwe. Bari hafi y'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu ukuze cyane wicaye mu ntebe, ari kumwe n'umuntu wambaye imyambaro yabugenewe yo kwa muganga, ari kumuganiriza kugira ngo ye kwicwa n'irungu, kandi arusheho kumva amerewe neza.

Umukecuru ukuze wambaye imyambaro yabugenewe n'umurimbo mu ijosi,l arimo gukora imyitozo ngororamubiri, imufasha kumera neza kandi akumva anezerewe.

Umusaza ukuze wambaye imyenda myiza arimo gukina n'umwana muto mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe, rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umuntu wambaye umwenda wakazi urimo guha umukecuru nabasaza ibyo bakeneye.

Umuntu wambaye umwambaro wabugenewe wabaganga, ufite ibikoresho bifashisha mubuvuzi arimo gufasha umukecuru ukuze waje amugana kwa muganga.

Umusaza ukuze wicaye ufite imisatsi y'umweru, ateruye umwuzukuru we, ufite umugati mu ntoki ze, yishimiye kuba ari kumwe na we, bituma arushaho kwiyumva neza.

Umusaza ukuze uri kwa muganga ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe kugira ngo abashe kugenda neza. Ari kumwe n'umukobwa wambaye imyambaro myiza, kugira ngo amuyobore aho akwiriye kunyura.

Umukecuru ukuze wambaye indorerwamo z'amaso n'umutako w'abagore ku matwi, arimo gufasha umusaza uryamye utameze neza kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'imyambaro myiza wicaye, ari gufashwa na muganga ku burwayi afite kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukecuru ukuze cyane ,wambaye imyambaro myiza n'imirimbo y'abagore ku matwi, ufite imisatsi y'umweru. Ari gufashwa n'umukobwa mwiza kurambura amaboko ,kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigari ry'abantu bicaye harimo abakecuru n'abasaza bari gukora imitako yifashishwa hirya no hino, ku bantu babigura mu gihe bari kubitaka mu nzu zabo cyangwa mu bindi birori bitandukanye.

Umukecuru ukuze wicaye wambaye indorerwamo z'amaso, ufite umusatsi w'umweru; ari kuganirizwa n' umuganga wabugenewe, uri kumufasha kumwigisha uburyo yakwita ku buzima bwe, akarushaho kumererwa neza.

Abantu babiri b'igitsina gore harimo umukecuru wicaye wambaye imyambaro myiza ndetse n'imirimbo y'abagore ku matwi. Ari gufashwa n'umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda rigari ry'abantu bicaye, harimo n'abahagaze bari kumwe n'umubyeyi ukuze w'umukecuru, arimo kubaganiriza, ndetse banareba amakuru y'uburyo bwiza bwo kwita ku bantu bakuze.

Umukecuru n'umusaza bicaye, aho umukecuru arimo gusobanurira umusaza uburyo bwiza bwo gufatamo imiti, kugira ngo arusheho kumererwa neza ubuzima bukomeze.

Umusaza wicaye, wambaye umwambaro w'umweru n'umukara, ufite umusatsi w'umweru arimo kurya ifunguro, iruhande rwe hicaye abana bato barimo gusangira na we kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umusaza bafite imisatsi y'umweru barahoberanye, barishimye cyane. Barimo kwitanaho kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umusaza ukuze wambaye imyambaro myiza isa ubururu ndetse n'indorerwamo z'amaso. Ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore uri kumuganiriza ibiganiro byiza ndetse no kumuha inama zamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wicaye wambaye imyambaro y'amaboko magufi, ifite ibara ritukura n'agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso, ari gufasha umukecuru ukuze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gore bicaye, harimo umukecuru wambaye imyambaro myiza, ari gusobanurira bagenzi be akamaro ko gukoresha imbuto kugira ngo uzasaze neza, urugero nko gukoresha urunyanya.

Abantu babiri b'igitsina gore bicaye harimo umukecuru uri gutegura imbuto zo kurya kugirango arusheho kumererwa neza, ari kumwe n'umukobwa mwiza wambaye imirimbo kumatwi.

Itsinda ry'abantu benshi harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bashaje, barimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kumererwa neza, kandi bakomeze gusabana.

Umukorerabushake wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwambaro usa ibara ry'icyatsi kibisi, arimo gufasha umusaza ukuze wicaye wambaye umwambaro usa ubururu, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Abantu babiri harimo umukecuru ukuze wambaye imyambaro myiza, ari kumwe n'umuganga uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ukuze cyane, wicaye mu kagare kabugenewe, wambaye indorerwamo z'amaso, arigufashwa n'umuntu w'igitsina gore, kugira ngo amugeze aho akeneye kugera mu buryo bwiza.

Itsinda ry'abantu bakuze bakecuru, bafite imisatsi y'umweru, bambaye imyambaro myiza ndetse n'imirimbo y'abagore ku matwi, barimo gukoresha igikoresho cy'itumanaho mu buryo bwiza bubafasha.

Abagabo babiri bicaye harimo umusaza wambaye imyambaro myiza, ufite umuti mu ntoki, arimo kuganira na muganga uburyo bwo gukoresha umuti uzamufasha kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukecuru n'umusaza bari iruhande rw'ameza, bambaye imyambaro myiza n'indorerwamo z'amaso, bari kuganira ku buryo bwo gukoresha imiti neza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri harimo umusaza ukuze wambaye imyambaro ifite amaboko magufi, arimo gukina umukino umufasha kumera neza, abifashijwemo n'umuntu ukiri muto utarasaza.

Umusaza ukuze cyane usa neza yaje kwa muganga gufata imiti y'uburwayi, ari kuyihabwa n'umukobwa mwiza wambaye imyambaro isa neza.

Umusaza ukuze wicaye arimo gufashwa n'umuganga wambaye imyambaro myiza yabugenewe kugira ngo amenye uburwayi afite kandi arusheho kumererwa neza mu gihe ari bumuhe imiti.

Harimo ababyeyi nabana babo, baje gusura umubyeyi wabo Ukuze, numusaza ufite imisatsi yumweru, bambaye n'imyambaro yumweru barishimye cyane, kubera ko bafite ubuzima bwiza hamwe musaza wabo.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye, harimo agakecuru n'abasaza ndetse n'urubyiruko, bari kuganira ku cyatuma barushaho kugira ubuzima bwiza bakaniteza imbere mu bukungu.

Umukecuru n'umusaza bakuze bicaye bafite imisatsi y'umweru. Aho umukecuru ari gufasha umusaza gusobanukirwa neza uburyo bwo gufata imiti yabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye, harimo abakecuru n'abasaza, ndetse n'urubyiruko n'abana. Bari kuganira n'umukecuru urimo kuboha igitebo, kugira ngo ye kwicwa n'irungu, kandi arusheho kumererwa neza muri we.

Umukobwa uryamye usinziriye arimo kurota umunsi mukuru mpuzamahanga azitabira nyuma y'umunsi umwe, tuzatangira ku itariki makumyabiri n'enye guhera ku isaha ya saa yine kugeza mu gihe igikorwa kizaba gisoreje.

Ikirangantego kigaragaza abagore bitabiriye ikiganiro, cyavugaga ku buryo bwo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura.

Umuntu uhagaze wambaye imyambaro myiza, arimo gukoresha inama mu nyubako irimo abantu bitabiriye, barimo kwiga ku mibereho myiza y'abantu muri Afurika.

Abantu benshi batandukanye bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahuriye mu nyubako nziza mu kiganiro cyo kwiga ku mibereho myiza y'ubuzima bw'abaturage hirya no hino ku isi.

Ikirangantego cyerekana ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutanga inama z'ubuzima ku bantu batandukanye hirya no hino ku isi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikirangantego cyanditsemo amagambo atandukanye yerekeranye uburyo bwo kurwanya igwingira mu bana binyuze mu kubaha indyo yuzuye, imbuto, imboga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi.

Amoko menshi y'ibiribwa byifashishwa mu gutegura indyo yuzuye kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza. Harimo karoti, imbogeri, imbuto, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro y'umweru yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo birinde kuba bakwandura icyorezo cyakwirakwiye isi hose, bahuguriwe n'uburyo bwo gufasha abahuye n'icyo cyorezo kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Ikirangantego gifite ibara ry'umutuku, ubururu n'umweru berekana intego n'ingamba byashyizweho byo gutuma abantu benshi bagira ubuzima bwiza hirya no hino ku Isi.

Imbaga y'abantu harimo abicaye ndetse n'abahagaze bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Harimo abambaye imyambaro ifite amaboko magufi isa umutuku. Baje mu gikorwa cyo gufata imfashanyo, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ukuze cyane wavuwe amaso hifashishije uburyo bwiza bwashyizweho bwo kuvura amaso kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza.

Umuntu mwiza w'igitsina gore wambaye umurimbo ku matwi, arimo gutekereza ingaruka zibidukikije ku mibereho y'abantu ku Isi hose.

Inyubako yerekana aho abagore bashobora kwigira uburyo bagira ubuzima bwiza, ndetse bagahabwa n'inama zo kwirinda kanseri ishobora kwandura mu buryo ubwo aribwo bwose.

Ikirangantego gisa ibara ry'ubururu, handitsemo amagambo yandikishijwe umweru. Kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'umuturage w'u Rwanda kugira ngo arusheho kugira imibereho myiza.

Itsinda ry’abantu bane, harimo abantu batatu bihaye Imana bahuye na minisitiri w’ubuzima, barimo kuganira ku byafasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigari rigizwe n'abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, bariku n'abarwayi baje babagana baje kwivuza, hafi yaho hari umuntu wambaye umwambaro w'ubukorera bushake.

Itsinda ry'abantu benshi b’urubyiruko bitabiriye amahugurwa agamije kuganira ku buryo bwo kwita ku mibereho myiza y’abaturage kugira ngo bamererwe neza. Bambaye imyambaro ifite amaboko magufisa, isa mu ibara ry'umweru.

Umunsi Mpuzamahanga uzitabirwa n'inzobere zitandukanye. Uzaba ku wa kabiri mu kwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatanu, aho badaheza umuntu n'umwe kuba yahagera kugira ngo barusheho kumenya uburyo bwiza bwo kwita ku bantu.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro y'umweru bicaye ku ntebe, bitabiriye inama iyobowe n'umuntu w'igitsina gore, iri kwiga ku buryo bwo kwita ku buzima bw'abantu no guteza imbere abagifite ubukene kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigari rigizwe n'urubyiruko harimo abambaye imyambaro ifite amaboko magufi y'iy'umweru n'umukara ndetse n'abambaye indorerwamo z'amaso n'imirimbo y'abagore mu ijosi. Bitabiriye ibiganiro biri kwiga ku mibereho myiza y'abaturage.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahuriye hamwe mu rwego rwo kwiga ku mibereho myiza bari kumwe na Minisitiri w'ubuzima.

Ikirangantego gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku, cyerekana ukwirinda gukwirakwira kw'indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina n'uburyo bwo kurwanya izo ndwara.

Umuntu wicaye, wambaye imyambaro y'ubururu ndetse nagakamunwa, ari guterwa urukingo abifashijwemo n'umukorerabushake, wambaye imyambaro yabugenewe.

Itsinda rigari cyane rigizwe n'abantu b'igitsina gore bicaye bitabiriye inama iri kwiga ku buryo bwo kwita ku mibereho myiza y'abantu ku isi hose, kugira ngo barusheho kumererwa neza.

uburyo bwinshi butandukanye umuntu yakoramo ibikorwa bye, kugira ngo arusheho kugera ku iterambere ry'ejo hazaza ndetse n'isi yose ibishishikariza abaturage kuba bakora ibintu byinshi bitandukanye.

Ikirangantego ry'igihugu kiri mu ibara ry'umweru, munsi yaho hari amagambo agaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima no kwita ku bantu bafite imirire mibi, no gutanga inama, kugira ngo barusheho gufata indyo yuzuye bagire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bahuriye mu nyubako nziza bari mu nama iri kwiga ku bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage bo hirya no hino ku isi.

Umuntu uhagaze w'igitsina gore wambaye imyambaro myiza ndetse n'indorerwamo z'amaso, arimo gutanga ikiganiro kerekeranye n'uburyo bwo kongera imibereho myiza y'abaturage hirya no hino ku isi.

Itsinda ry'abantu batandukanye harimo abambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'abambaye impuzankano y'abakorerabushake, aho abaganga barimo kwigisha abakorerabushake uburyo bwo gufasha umuntu utameze neza kugira ngo amererwe neza.

Itsinda ry'abantu harimo abaganga bambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa, barimo gusuzuma icyorezo cyakwirakwiriye hirya no hino ku isi, kugira ngo bagire ingamba nshya zo kucyirinda.

Inyubako nini nziza yifashishwa mu gucuruza imiti yabugenewe. Harimo ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuyibika neza.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana. Harimo ibitanda baryamaho ndetse n'intebe yo kwicaraho mu gihe abaganga barimo kubaha ubufasha bakeneye.

Inyubako nziza yabugenewe y'amagorofa yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana, imbere yaho hari ikinyabiziga cyajeho umuntu waje gusaba ubufasha kwa muganga.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa kwakira abarwayi baje babagana, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'udutanda babaryamishaho.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda bakiriraho abarwayi kugira ngo muganga abashe kubafasha mu buryo bwihuse.

Inyubako nini, nziza, yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi, harimo amoko menshi y'ibikoresho bitandukanye nk'intebe zo kwicaraho mu gihe abarwayi bategereje ubufasha bwa muganga.

Abantu babiri bicaye mu nyubako yabugenewe yo kwa muganga, aho umuganga wambaye imyambaro y'umweru n'agapfukamunwa n'umurimbo w'abagore ku matwi ari gufasha umwana wavunitse ukuboko kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Inzu nziza yabugenewe yakira ababyeyi ndetse n'impinja, irimo ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa n'abaje bahagana.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa kwakira abarwayi, irimo ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye, harimo umuganga wambaye umwambaro wabugenewe ufite ibara ry'umweru.

Inyubako nziza, yo kwa muganga, ifite icyumba cyabugenewe, cyifashishwa mu kwakira abarwayi. Hari n'intebe nziza, abaje kwivuza bicaraho, mu gihe bategereje ubufasha, bwa muganga.

Inyubako nziza cyane yabugenewe, yifashishwa kwakira abantu benshi batandukanye bafite uburwayi, hari ubusitani buteyemo ibiti byiza n'ibyatsi bisa ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza harimo icyumba gifite ibikoresho byifashishwa kwa muganga. Intebe ndetse n'aho kubika imiti kugira ngo itangirika, mu gihe abaganga bagiye kuyikoresha baza kuyireba.

Inyubako nziza yabugenewe ifite icyumba cyakirirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda cyo kuryamishaho abaje babagana ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga bari kuvura.

Inyubako nziza yabugenewe ifite ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe bicaraho abarwayi mu gihe bategereje ubufasha bw'abaganga.

Inzu nziza yabugenewe yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baturutse hirya no hino mu biturage ndetse no mu mijyi baje guhabwa ubufasha na muganga.

Inyubako nziza yabugenewe yakirirwamo abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana. Hari ubusitani bwiza abantu bashobora kwicaramo bagahumeka umwuka mwiza.

Inyubako nziza yabugenewe, ifite aho bakirira abarwayi benshi baje bahagana. Imbere yaho hari indabo z'ubwoko butandukanye, harimo izifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ni inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana, imbere yabo hari imodoka ndetse n'abantu bahagaze.

Kurunziza yabugenewe yakirwamo abarwayi baje ba ahagana imbere yaho hari indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi, hari ikirere kiza gisa neza.

Inyubako ifite icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, kifashishwa mu kubika amaraso yaturutse mu butabazi bw'ibanze, kugira ngo abarwayi baje bahagana ni bayakenera babashe kuyifashisha.

Inyubako nziza yo kwa muganga yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana. Hari ubusitani bwiza buteyemo indabo zisa icyatsi kibisi ndetse n'ibindi byatsi. Bitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Nyarugenge hifashishwa mu kwakira urujya n'uruza rw'abantu bavuye hirya no hino baje kwivuza. Imbere yabo hari umutako w'indabo zisa icyatsi kibisi, ndetse n'abantu bahahagaze baje kwivuza.

Inyubako nziza yo kwa muganga yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi, igizwe n'ibikoresho bitandukanye, nk'intebe ndetse n'udutanda baryamishaho abaje bahagana.

Inyubako nziza cyane yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi, imbere yaho hari imitako yindabo isa ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'ibyatsi biteye mu busitani bwaho.

Intubako y'ibitaro byifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana, hari inzu y'ababyeyi iruhande rwaho hateye ibiti bisa icyatsi kibisi, ndetse hari n'icyapa kiyobora abagenzi baje aho kwa muganga.

Inyubako nziza cyane yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi, harimo ubwoko bwinshi bw'ibikoresho bitandukanye bibitswe neza kugira ngo bitangirika.

Inyubako rusange yabugenewe yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi, habitsemo amoko menshi y'ibikoresho ahantu habugenewe kugira ngo bitangirika.

Inyubako nziza ibitswemo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye. Iri mu bikoresho byabugenewe, aho abantu baturuka hirya no hino baje kuyigura kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yo kwa muganga, irimo amoko menshi y'ibikoresho byifashishwa mu gihe bari kwakira abarwayi. Nk'intebe zo kwicaraho, ibitanda byo kuryamishaho abarwayi, ndetse n'imiti yo guha abafite ibibazo kugira ngo bamererwe neza.

Inyubako y'ubuvuzi nziza y'amagorofa, ikorerwamo n'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, aho abarwayi bajya bakivuza indwara zitandukanye, bigatuma bagira ubuzima bwiza, hanze hari ibiti, ibyatsi ndetse hari n'ikirere gikeye.

Inyubako nziza yabugenewe irimo umuganga wambaye umwambaro w'akazi wabugenewe usa umweru, ari kumwe n'umuntu waje mu gikorwa cyo gutanga amaraso.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu butabazi bwibanze. Hari aho kubika amaraso igitanda cyo kuryamaho, harimo n'umuntu wambaye umwambaro w'abakorerabushake.

Inyubako nziza ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse batangiramo n'inama y'uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri, bigatuma umuntu arushaho kumererwa neza.

Inyubako nziza cyane yabugenewe yo kwakiriramo abarwayi, imbere yabo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umurwayi uje ahagana.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga, ibitswemo amoko menshi y'imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe bakira abarwayi maze bakabasuzuma uburwayi bwabo.

Inyubako nziza yabugenewe bakiriramo abarwayi baje bahagana, ifite ubusitani bwiza bufite ibiti by'icyatsi kibisi by'inganzamarumbo ndetse n'ibyatsi.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe bicaraho barimo kubasuzuma ndetse n'igitanda cyo kuryamaho giteguwe neza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana, imbere yaho hicaye abantu bakuru ndetse n'abato baje kubonana na muganga kugira ngo abafashe.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu buvuzi, aho bakira abantu bafite indwara n'ibibazo bitandukanye bituma ubuzima bwabo butamererwa neza, hari bimwe bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Inzu y'ababyeyi yifashishwa mu kwakira abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino, imbere yaho hari abantu bane b'igitsina gore bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ndetse n'udupfukamunwa.

Inyubako nziza ifite ibikoresho byinshi bitandukanye, ifite ububiko babikamo kugira ngo ibyo abaganga bakoresha harimo imiti ihabwa abarwayi itangirika.

Abakobwa beza bambaye imyambaro yabugenewe isa ubururu n'ibitambaro by'umweru, bahagaze mu busitani bw'inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana.

Umusaza wicaye wambaye imyambaro myiza cyane n'indorerwamo z'amaso, ari gufashwa n'umuganga wabugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Bikuru bya Shyira byifashishwa mu kwakira abarwayi mu gihe baturutse hirya no hino mu turere baje bahagana, harimo ibikoresho ndetse n'inyubako zabugenewe zifashishwa mu gihe abaganga barimo kubasuzuma.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi. Harimo ubwoko bwinshi bw'ibikoresho bitandukanye nk'igitanda, intebe ndetse n'ibindi bakoresha.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo abakozi bambaye imyambaro myiza yabugenewe n'udupfukamunwa tubarinda guhumeka umwuka mubi ukabatera indwara.

Inyubako irimo icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse no gusuzuma abarwayi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yabigenewe yifashishwa mu buvuzi, igizwe n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abarwayi baza bahagana kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako nziza yakirirwamo abarwayi, iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'imodoka nziza yifashishwa mu gutwara abarwayi baje aho kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cyitwa Kabutare kifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino. Imbere yaho hahagaze itsinda ry'abantu bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyambaro myiza.

Inyubako y'ibitaro bya Butaro byo mu karere ka Burera yifashishwa mu kwakira abarwayi, hafi yaho hari itsinda rigari ry'abantu ryiganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Inyubako nziza yabugenewe y'ibitaro bikuru byo mu karere ka Nyarugenge, izengurutswe n'indabo nziza zifite ibara ry'icyatsi kibisi kugira ngo harusheho gusa neza.

Inyubako nziza yo kwa muganga irimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi butandukanye, byifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana, hari umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'agapfukamunwa.

Inyubako nini yo kwa muganga isa neza ifite amoko menshi y'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gihe bakira abarwayi barimo kubasuzuma maze bakabaha imiti kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Inyubako nziza yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi, harimo amoko menshi atandukanye y'ibikoresho byabugenewe ,nk'intebe zo kwicaraho mu gihe umurwayi ategereje kuvurwa.

Inyubako nziza y'ibitaro bikuru byo mu Karere ka Nyarugenge, byifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino. Hafi y'aho hari ibiti bisa neza by'ibara ry'icyatsi kibisi, bifasha abantu guhumeka umwuka mwiza.

Inzu nziza yo kwa muganga ifite icyumba cyabugenewe, habikwamo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi bakarushaho kumererwa neza.

Inyubako nziza ifite icyumba cyabugenewe cyifashishwa mu kwakira abarwayi. Harimo igitanda cyo kuryamishaho abaje babagana, ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako yikigo nderabuzima cya Kanyinya y'amagorofa nziza. Yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino, imbere yaho hari ubusitani bwiza biteweho indabo.

Inyubako nziza yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino baje bahagana. Hari ibikoresho bitandukanye nk'igitanda baryamishaho umurwayi giteguye neza kugira ngo bamusuzume indwara afite.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga, yifashishwa mu kwakira abarwayi baje babagana, harimo intebe bicaramo ndetse n'ameza ariho umutako ufite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nini nziza yubatse neza yifashishwa mu kwakira abarwayi baturutse hirya no hino ku Isi, imbere yaho hari imitako y'indabo ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza yabugenewe yifashishwa mu buvuzi, hari ubusitani buteyemo ibyatsi, indabo, bituma abantu barushaho kumererwa neza. Kandi hari ikirere kiza.

Inzu yo kwa muganga ibitswemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo iby'ikoranabuhanga bashobora kumenyeraho amakuru y'umurwayi mu gihe yaje kwivuza.

Inyubako nziza ifite ibitanda baryamishaho abarwayi kugira ngo bamererwe neza, hashasheho ibitambaro by'icyatsi kibisi ndetse iyi nzu irimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, harimo no gucuruza amoko menshi y'imiti avura abantu baje bahagana kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Inyubako nziza yifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana, imbere yaho hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino baje kwivuza.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi irimo ibikoresho, intebe, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume abarwaye indwara zitandukanye.

Inyubako nziza y'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye, harimo aho gukarabira ndetse n'aho kujugunya imyanda kugira ngo barusheho kongera isuku mu buryo bwo gufasha abarwayi ndetse n'abarwaza.

Inyubako nziza, zitandukanye, zifite amabara meza, zifashishwa mu kwakira abarwayi baje bahagana baturutse hirya no hino mu giturage ndetse no mu mijyi baje kwivuza, imbere y'aho hari ubusitani bwiza, butatswe n'indabo ndetse n'ibyatsi byiza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima yifashishwa mu kwakira abarwayi, imbere yaho hicaye abantu benshi baje kwivuza uburwayi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yabugenewe, ifite ibikoresho by'ubwoko bwose butandukanye bwifashishwa n'abaganga mu gihe bari guha abarwayi imiti itandukanye yo kubafasha kugira ngo bamererwe neza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti yabugenewe bukoreshwa kwa muganga bafasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri, mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gabo barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwabo hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino baje kwidagadura.

Umukobwa mwiza wambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza imbere n'inyuma.

Ifoto ifite ibara ry'icyatsi kibisi harimo abantu bambaye imyambaro yabugenewe yo kubarinda kugirango birinde impanuka izo arizo zose mugihe bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byinshi byabugenewe byifashishwa mu gihe umuntu akoze imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo, biri mu bikapu bifite ibara ritukura ndetse n'umukara.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imbuto zifashishwa mu gihe umuntu arimo akora imyitozo ngororamubiri mbere cyangwa nyuma, hari n'ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Umusore mwiza wambaye imyambaro yabugenewe, ifite ibara ry'umukara n'udukomo tw'umurimbo ku maboko ye, arimo gukora imyitozo ngororamubiri ahantu heza hakeye kandi habugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho gisa ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, kifashishwa mu gihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo akavunika ukuguru, umugongo cyangwa se ahandi.

Umuntu wicaye ku gatanda kawebugenewe bago gukora imyitozo ngororamubiri none yagize ikibazo mu kuguru. Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe arimo kumufasha kugirango ngo arusheho kumererwa neza.

Inkweto ndende zifite ibara ry'umukara ndetse zikomeye, zifunze, zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo zirinde umuntu uzikoresha kuba yakomereka bigatuma ubuzima bwe bwangirika.

Umunzani uri mu gikoresho gifite ibara ry'umutuku n'umukara cyabugenewe, bifashisha gupima umutima w'umuntu uburyo utera nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wagize ikibazo mu kuboko arimo akora imyitozo ngororamubiri, arimo gukoresha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Igikoresho gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore bavuye gukora imyitozo ngororamubiri, bicaye hamwe bari kunywa amazi meza kugira ngo barusheho kumererwa neza, be gukomeza kunanirwa.

Ikigo cy'ishuri cyigisha imikino itandukanye umuntu yakora arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, yirinde indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gabo bambaye imyambaro myiza yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, umwe ari gufasha mugenzi we wavunitse ukuguru, kugirango amererwe neza basubire gukina.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku ngabo z'u Rwanda. Hariho uburyo bwinshi butandukanye bwifashishwa mu gufasha ingabo z'igihugu, bakarushaho kumererwa neza.

Itsinda ry'abanyeshuri bahagaze bambaye imyambaro yifashishwa m'ubutabazi bwibanze, bari kwita uburyo bwo gufasha umuntu wagize ikibazo kugira ngo arusheho kumererwa neza mu gihe ataragera kwa muganga.

Amoko menshi y'imiti yabugenewe ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri akamererwa nabi. Abitswe mu macupa meza yabugenewe y'umweru ndetse n'amasashi kugira ngo atangirika.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, mu ntoki zabo bafite amazi meza yo kwifashisha mu gihe bari bunanirwe.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro ufite amaboko magufi, usa umweru urimo kunywa amazi meza, avuye gukora imyitozo ngororamubiri ari kumva umuziki, kugirango arusheho kuyikora neza.

Umuntu w'igitsina gabo usa neza wambaye imyambaro yabugenewe isa umukara yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, arimo no kumva indirimbo zimufasha kumererwa neza kugira ngo akomeze gukora neza inshingano ze.

Umuntu uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, wicaye wagize ikibazo mu kuguru ari kwifashisha ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye wambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri. None yavunitse ari kwifashisha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Igitsina gabo wambaye umwambaro ufite amaboko magufi, arimo kunywa amazi kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza, mugihe arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro ufite amaboko magufi usa ubururu, n'umutako mu ijosi, ari kunywa amazi meza, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango arusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'igikoresho cyifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, agahura n'ikibazo nko kuvunika ukuboko cyangwa ukuguru. Hari n'uburyo bwiza bwo kukibikamo kugira ngo kitangirika.

Umugabo usa neza wambaye umwambaro ufite amaboko magufi, yabanje kunywa amazi meza mbere yuko akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza, ataza kugira ikibazo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, arimo kwimenaho amazi kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda ryabantu bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyambaro myiza yabugenewe, bari mu muhanda biruka cyane kugira ngo bitume bagira ubuzima bwiza.

Amoko imipira yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri harimo gukina imikino y'amaguru ndetse n'amaboko, bituma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza.

Amabwiriza y'uburyo bwo kwirinda icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo buri muntu arusheho kumererwa neza mu gihe yanduye.

Umuntu wicaye uvuye mu myitozo ngororamubiri wahuye n'ikibazo cy'imvune, arimo kwifashisha ubutabazi bw'ibanze bwabugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu wambaye imyambaro y'umukara ari gufasha uwakoze imyitozo ngororamubiri akavunika ukuguru, aryamye ahantu habugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu batatu rigizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'umwana, barimo kwifashisha ibikoresho byabugenewe mu gupima umwana nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Abakorerabushake bambaye agapfukamunwa n'umwambaro ufite amaboko magufi, ari gufasha umukinnyi wavunitse ukuboko, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto zitandukanye ndetse n'amazi yifashishwa mu gihe umuntu arimo akora imyitozo ngororamubiri, ashobora kubirya cyangwa kunywa nyuma yo gukora iyo myitozo ngororamubiri, bikamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ufite icupa ry'amazi meza mukiganza cye, yifashishwa mugihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri kugirango arusheho kumererwa neza.

Ni umuntu w'igitsina gore, uhagaze, wambaye imyambaro yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse arimo kumva n'imiziki kugira ngo arusheho kuyikora neza.

Umuntu w'igitsina gore uri gukora imyitozo ngororamubiri ahantu habugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza imbere n'inyuma.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti yabugenewe yifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, bituma amererwa neza akongera gukina cyangwa se kugenda nta kibazo afite.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo, handitsemo amagambo y'uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo usa neza urimo kunywa amazi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza mu mubiri we kandi akomeze kwiyumva neza.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abanyeshuri ndetse n'umwarimu uri kubigisha uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri, abanyeshuri bafite amakayi ndetse n'ikaramu byo kwandikamo ibyo bumvise.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro yabugenewe, arimo gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyambaro myiza yabugenewe yifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Ari kunywa amazi meza, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro ifite amaboko magufi isa ibara ry'ubururu, arimo kunywa amazi meza avuye mu myitozo ngororamubiri imufasha kumererwa neza umubiri wose.

Itsinda ry'abantu benshi cyane rihurira ahantu hamwe, aho abaturage baturuka hirya no hino bakaza kureba abarimo bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa mwiza wambaye imyambaro yabugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza. Imbere ye hari igikoresho kirimo amazi meza.

Ibikoresho byiza byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Hicayeho umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ahantu heza, yambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi amererwe neza.

Igikoresho cy'umweru cyifashishwa mu gihe umuntu avunitse arimo akora imyitozo ngororamubiri, bikamufasha kugira ubuzima bwiza, ntagende acumbagira cyangwa afite ikibazo aho yakomeretse.

Umukobwa mwiza wicaye ku bikoresho byabugenewe, bifite ibara ry'ubururu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye arimo kugaragaza igikomere yagize ari gukora imyitozo ngororamubiri, none bamuhaye ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gore wicaye wambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, arimo kumva imiziki kugira ngo arusheho kumererwa neza kandi ye kugira uburwayi ahura na bwo.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bakagira ikibazo, gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hariho n'imishumi yifashishwa mu gutwara neza uwagize ikibazo.

Abantu babiri harimo umuntu wicaye wambaye imyambaro yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gufashwa n'umuntu wambaye umwambaro ufite amaboko magufi usa ubururu, kugira ngo arusheho kumererwa neza mu kuguru.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyambaro myiza. Iruhande rwe hari ubwoko bw'imbuto, ironji ndetse na karoti n'amashu byifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wicayeyi ufite ikibazo mu kuguru, yatewe no gukora imyitozo ngororamubiri ikabije, yambaye umwambaro w'umweru ndetse afite n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa kwa muganga.

Yego gifite amabara menshi akurikira, ubururu, icyatsi kibisi, umuhondo. Kigaragaza imikino itandukanye, ishobora gukorwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Itsinda rigari ry'abana bishimye cyane, bahagaze mu kibuga cy'umupira, baje gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'irushanwa ryo gukina.

Umugabo w'igitsina gabo wicaye, wambaye imyambaro myiza, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza by'umwihariko mu maboko ndetse no mu maguru.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe ari gufasha mugenzi we wagize ikibazo mu kuguru ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango ngo arusheho kumererwa neza.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri akavunika ukuguru, bituma arushaho kugenda neza.

Ibikoresho n'imiti byifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, biri mu gikapu gifite ibara ritukura ndetse n'umukara.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cyerekana aho bakinira imikino y'amakofi. Hari abantu bambaye imyambaro yabugenewe isa ubururu n'umweru nibyo bifashisha kugirango bakore imikino yabo neza.

Uburyo bwinshi bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu arusheho kumererwa neza, haba mu maboko, mu kiganza, mu ivi ndetse n'ahandi.

Ni igikapu gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, cyuzuyemo ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu gihe ugize ikibazo urimo ukora imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko bw'igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri, gifasha umuntu gukuraho inda bimworoheye, akabyiha mu buryo bwiza.

Abantu babiri umwe ni umuganga wambaye umwenda uciye amaboko w'ubururu, arimo gufasha umurwayi wagize ikibazo mu kaguru kugirango amererwe neza kandi arusheho kugenda neza.

Ubwoko butandukanye bw'ibikoresho n'imiti yifashishwa mu kuvura umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo, ibitswe ahabugenewe kugira ngo itangirika.

Ubwoko bwinshi bw'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, abantu benshi baza kubigura kugira ngo babyifashishe bagire ubuzima bwiza.

Umugabo uhagaze mu nzu yababugenewe, irimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kudusobanurira uko bigurwa kugira ngo tuzajye kubigura.

Umugabo wakoze imyitozo ngororamubiri, wicaye ku gatanda kabugenewe, akaba yagize ikibazo mu kuguru ari gufashwa na muganga wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi isa umweru. Kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri wagize ikibazo mu kuguru kwe, yifashishije ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Abantu babiri harimo umwe wicaye ku gatanda kabugenewe uvuye mu myitozo ngororamubiri, aho yavunitse ukuguru none ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze na mugenzi we.

Ikirango cyerekana ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ndetse rimwe na rimwe bajya bagira amarushanwa yayo.

Umukobwa mwiza wambaye imyambaro yabigenewe ndetse n'agapfukamuwa, ari kureba uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyabugenewe gifite ibara ry'ubururu rikoze mu cyuma, bakifashisha bapima umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bamenye ko afite ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye, wambaye imyambaro myiza, afite igikoresho cy'itumanaho kiri kumufasha kumva indirimbo nziza ndetse ari kunywa n'amazi meza kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bwinshi bw'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Abantu babyifashisha kugira ngo barusheho kumererwa neza kandi bongere imbaraga zo kugira ubuzima bwiza mu mibiri yabo.

Umuntu wicaye wambaye umwambaro w'umweru ndetse n'ubururu avuye mu myitozo ngororamubiri, yagize ikibazo cyo kuvunika ukuboko, none arimo kwifashisha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'ikimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi bwifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza mu gihe bafite uburwayi butandukanye, harimo kubabara mu nda ndetse n'ibindi.

Amoko menshi y'imiti gakondo yabugenewe yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, akoze mu bimera byinshi bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bwifashishwa muvuzi gakondo, bukorwa mu bimera bitandukanye bushobora kugurwa n'abantu benshi baturutse hirya no hino, bafite indwara.

Ubwoko bw'umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukomoka ku bimera bishobora gufasha umuntu akamererwa neza mu mubiri.

Amoko y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu gihe abantu babikoresheje neza, ari mu bikoresho byabugenewe kugira ngo atangirika.

Ubwoko bw'imiti gakondo, busa ibara ry'icyatsi kibisi, bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho abantu babikoresha kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti gakondo, hasi hari ibara ry'icyatsi kibisi, n'ibababi bitoshye, byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu gihe abantu babikoresheje.

Ubwoko bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Ikozwe mu kimera bita igikakarubamba kivura indwara z'uruhu ndetse no komora ibikomere ku mubiri.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu kuvura amenyo, ukozwe mu miti gakondo y'ibimera bitandukanye, harimo ibikakarubamba bifasha amenyo kumera neza.

Ubwoko bw'imiti gakondo ikorwa mu bimera bitandukanye, bwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo abantu bamererwe neza mu gihe bayinyoye.

Ku bw'imera bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'andi mabara yifashishwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo bafashe abarwayi barusheho kumererwa neza.

Amoko menshi y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, akozwe mu bimera bifite umwimerere wuzuye ushobora gutuma umuntu amererwa neza mu gihe ayikoresheje.

Amoko menshi y'ibimera byifashishwa mu miti gakondo, afite amabara atandukanye y'umutuku umuhondo icyatsi kibisi, bituma abantu benshi babikoresha barushaho kumererwa neza.

Igiti cy'inganzamarumbo kinini gifite amashami, kifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza, mu gihe bagikoresheje neza.

Ikimera gifite ibabi byiza ,bitoshye, gisa ibara ry'icyatsi kibisi. Kifashishwa mu buvuzi gakondo, mu ku kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Igiti cyiza cy'inganzamarumbo gifite ibara ry'icyatsi kibisi, ryifashishwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo abantu batandukanye bafite uburwayi barusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'umuti gakondo bwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, ukozwe mu gikakarubamba ndetse hari ibara ry'icyatsi kibisi, ushobora komora ibisebe ndetse no kuvura amahumane ku ruhu.

Amoko menshi atandukanye y'imiti gakondo ari mu bikoresho byabugenewe, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, mu gihe abantu bayaguze ku masoko atandukanye, ubundi bakayakoresha neza ku rugero rukwiriye.

Ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, hari igikakarubamba gisa ibara ry'icyatsi kibisi ndetse na voka.

Amoko menshi y'ibimera bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'andi mabara, byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho abantu batandukanye babikoresha kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Amoko y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, abitswe mu bikoresho byabugenewe bisa ibara ry'umweru, umuhondo; harimo bimwe bikorwa mu gikakarubamba gifasha abantu kumererwa neza ku ruhu.

Ibimera byinshi by'amoko menshi atandukanye, yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, babikoresha kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza.

Amoko menshi y'ibimera byifashishwa mu miti gakondo bifite ibara ry'icyatsi kibisi n'ibibabi byiza bitoshye, abantu benshi barabikoresha bo ku mugabane w'Afurika kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Imiti y'ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza, cyane cyane umuravumba ufite ibara ry'icyatsi kibisi n'ibibabi bitoshye wifashishwa mu kuvura inzoka, inkorora ndetse n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, busa ibara ry'icyatsi kibisi bukura nk'igiti mu gihe buri ahantu hameze neza.

Intego igaragaza aho bakorera ubwoko bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye. Umuntu arimo kuwutegura kugira ngo abashe kuwuha abantu benshi batandukanye barusheho kumererwa neza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara, ikozwe mu kimera bita igikakarubamba gisa ibara ry'icyatsi kibisi, kibitswe mu bikoresho byabugenewe kugira ngo bitangirika.

Ikirangantego cyerekana umuti gakondo wabugenewe gukorwa mu bwoko bw'ikimera cyitwa igikakarubamba, gishobora gukoreshwa mu gufasha umurwayi bigatuma agira uruhu rumeze neza.

Imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Yakozwe mu miti y'umwimerere, igikakarubamba ndetse n'imineke bituma umuntu ubikoresheje mu buryo bwiza arushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bukoreshwa mu buvuzi gakondo bukomoka ku kimera bita igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi kibisi, iki kimera gishobora komora ibisebe ndetse no gukuraho amahumane ku mubiri.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bwifashishwa muvuzi gakondo, aho abantu baza kubisoroma bakajya kubyifashisha kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bwifashishwa mu buvuzi gakondo, bukomoka ku bimera birimo igikakarubamba, bifasha mu kuvura ibikomere ndetse n'amahumane ku ruhu rukarushaho kumera neza.

Umuti gakondo ukozwe mu byatsi by'umwimerere, uvura kurangiza vuba, gucika intege, wifashishwa n'abantu benshi batandukanye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, cyane cyane abagabo n'abagore.

Ku minsi yabugenewe y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Akomoka ku bimera abitswe mu macupa meza afite ibara ry'umweru kugira ngo atangirika.

Igiti cyiza kinini cy'inganzamarumbo cyifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo bafashe abafite indwara zitandukanye, babashe kugira ubuzima bwiza, maze byongere imibereho myiza y'abantu.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibimera harimo igikakarubamba n'ibindi, byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abarwayi barusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'imiti gakondo yabugenewe yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukozwe mu gikakarubamba gifasha komora ibisebe ndetse no kuvura amahumane ku ruhu.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo gifite ibibabi bitoshye, gisa ibara ry'icyatsi kibisi, kivura indwara nyinshi zitandukanye mu gihe abantu babikoresheje mu buryo bwiza bwagenwe.

Ubwoko bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, ikozwe mu bimera byabugenewe abantu bifashisha kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Ikimera cyiza cyane gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'ibibabi bitoshye. Bakifashisha m'ubuvuzi gakondo kugirango abarwayi barusheho kumererwa neza mu mibiri yabo.

Amoko menshi y'imbuto meza yifashishwa mu buvuzi gakondo; harimo ironji rihiye neza rivura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo umuntu arusheho kumererwa neza.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, n'amabara atandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo bifashe abantu kwivura indwara zitandukanye, bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amoko menshi y'ibimera yifashishwa mu buvuzi gakondo, ari ku bikoresho byabugenewe kugira ngo atangirika, asa ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo, umutuku ndetse n'umukara. Hateretse n'agakombe karimo umutobe.

Amoko menshi atandukanye yabugenewe yifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu babashe gukira indwara mu gihe babikoresheje neza.

Ubwoko bw'imiti gakondo butandukanye bwabugenewe, bwifashishwa mu kuvura abantu bafite indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'umuti wabugenewe wifashishwa mu buvuzi gakondo, uvura indwara nyinshi zitandukanye, abantu benshi barawukoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, uri mu gikoresho gifite ibara ry'umweru.

Ubwoko bw'umuti gakondo wabugenewe wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Bufite ibibabi binini bitoshye bisa ibara ry'icyatsi kibisi. Abantu benshi babyifashisha kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze, wambaye umwambaro wibara ry'icyatsi kibisi, afite ubwoko bw'umuti gakondo mu ntoki ze, ufite ibara ry'icyatsi kibisi bwitwa umuhati.

Ku bwibimera byabugenewe byifashishwa mubu buvuzi gakondo, bifite utubabi dutoya dutoshye gusa ibara ry'icyatsi kibisi, abantu benshi barabikoresha kugirango barusheho kumererwa neza.

Amoko menshi y'imiti gakondo yabugenewe yifashishwa mu kuvura indwara, ari mu bikoresho byabugenewe kugira ngo itangirika

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izibasira umuryango, by'umwihariko abantu b'ibitsina gabo.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe bifashisha mu buvuzi ku ndwara zitandukanye; ikozwe mu bwoko bw'ibikakarubamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ubwoko w'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ukozwe mu kimera cy'umwimerere k'ikawa, ubitswe ahabugenewe kugira ngo utangirika.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara nyinshi zitandukanye, aho gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'ibibabi byiza bitoshye.

Amoko y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, akozwe mu kimera bita igikakarubamba kivura indwara z'uruhu rukarushaho kumera neza.

Ubwoko bw'umuti wabugenewe wifashishwa mu buvuzi gakondo, ukozwe mu bwoko bw'ikimera cyitwa igikakarubamba ndetse n'inyanya, uvura indwara nyinshi zitandukanye harimo indwara z'uruhu.

Ubwoko bw'imiti butandukanye bwifashishwa mu buvuzi gakondo, bukorwa mu bikakarubamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye kugira ngo babyifashishe mu kuvura abarwayi.

Ufite ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Bukaba buri mu bikoresho byabugenewe, kugira ngo butangirika.

Ubwoko bw'umuti gakondo uri mu gikoresho cyabugenewe gisa mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibiti bitandukanye harimo igiti kirekire cyane byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo bafashe abantu kugira ubuzima bwiza buzira umuze igihe cyose.

Ahantu bacururizamo ubwoko bw'imiti butandukanye. Hari amagambo yanditse ngo: Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo. Harimo n'umuntu uhagaze arimo gucuruza.

Ubwoko bw'umuti gakondo wabugenewe wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ukozwe mu kimera bita igikakarubamba gisa ibara ry'icyatsi kibisi, aho ushobora no gukoresha ururenda rwacyo, ukivura igikomere, ukabasha kumera neza.

Ubwoko bw'ikimera gifite ibibabi binini bisa icyatsi kibisi. Bwifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu benshi bakire indwara zitandukanye mu gihe bagikoresheje neza.

Umuti gakondo wabugenewe wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ibi ni ibikoresho bifite ibara ry'umweru kugira ngo birinde ko hagira icyawangiza.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu benshi mu kuvura indwara zitandukanye, harimo umutobe ukomoka ku kimera kitwa tangawizi, ufasha umuntu kugira imbaraga zimeze neza mu mubiri.

Ubwinshi bw'imiti gakondo butandukanye bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara z'abantu benshi. Bukozwe mu bimera bita ibikarubamba bishobora komora ibisebe.

Ubwoko bw'ibimera bifashisha mu miti gakondo kugira ngo bavure indwara nyinshi zitandukanye. Abantu benshi baturuka hirya no hino baza gusoroma imiti. Iri mu bikoresho byabugenewe.

Ibikoresho byifashishwa bari gutunganya imiti gakondo yabugenewe kugira ngo barusheho kuvura indwara nyinshi zitandukanye z'abaturage bari hirya no hino ku isi.

Amoko menshi y'ibimera bisa ibara ry'icyatsi kibisi byifashishwa mu buvuzi gakondo, hari umuntu uhagaze witegereza igiti kugira ngo amenye niba kivura indwara afite.

Ubwoko bw'umuti gakondo wifashishwa mu gutuma umusatsi umererwa neza, uri mu gikoresho cyiza cyabugenewe gifite ibara ry'umweru, kandi bituma utangirika.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti gakondo, bwifashishwa mu kuvura abarwayi, urugero harimo igikakarubamba bifashisha mu kuvura ibisebe, ndetse n'indwara z'uruhu.

Umuti mwiza wabugenewe wifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo bavure indwara nyinshi zitandukanye, uri mu gikoresho gifite ibara ry'umweru.

Ku menshi y'imiti gakondo yabugenewe, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo uyikoresha wese arusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza, nini cyane, icuruzwamo amoko menshi y'imiti gakondo, afasha abantu kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko kubagabo barangiza vuba.

Umuti gakondo mwiza wabugenewe gukorwa mu bwoko bw'ibimera bita igikakarubamba, uvura indwara zitandukanye harimo komora ibisebe ndetse n'indwara z'uruhu.

Ubwoko bw'ikimera gisa icyatsi kibisi, gifite ibibabi binini bitoshye byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza mu gihe bayikoresheje.

Ubwoko bw'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uri mu gikoresho cyabugenewe kugira ngo utangirika. Ukozwe mu gikakarubamba gifasha abantu kugira ubuzima bwiza cyane cyane ku ruhu.

Umuti wabugenewe wifashishwa mu buvuzi gakondo uri mu icupa ry'ubururu, uvura indwara zitandukanye z'uruhu, ukozwe mu mavuta gakondo.

Ubwoko bwinshi bw'ibimera bitandukanye bwabugenewe, bwifashishwa mu buvuzi gakondo mu gutuma abantu bagira ubuzima bwiza bakarushaho kumererwa neza.

Amoko menshi y'imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo abantu barusheho kumererwa neza, ari mu bikoresho byabugenewe kugira ngo atangirika.